Bisa naho habereye inama hari abantu benshi bicaye inyuma hariyo mikoro na kamera. Buri muntu aho yicaye hajyiye hateretse icupa ry'amazi n'icupa rya ji. Bafite ajenda bari kugenda bandikwa.

Bisa nk'aho habereye inama, hari abantu benshi bicaye bahanza amaso imbere, birasa nkaho hari uwo bari gukurikira, buri muntu imbere ye hagiye hateretse terefone, icupa ry'amazi, n'ikayi n'urupapuro bari kwandikaho.

Biragaragara nk'amarushanwa runaka hari umugabo wambaye ishati ya karokaro afite mikoro mu ntoki, hari n'umugore wambaye umupira w'umuhondo afite mikoro mu ntoki. Ku ruhande hari abandi bantu bicaye babateze amatwi, imbere y'umwe hari mashini.

Birasa n'aho habaye inama runaka, hari abantu benshi bicaye imbere ku meza aho bicaye hateretse amacupa y'amazi, hari compiyuta, hari abafite ikaramu na jenda bari kwandika; hepfo hari umugabo wambaye kositimu birasa n'aho ari we uyoboye inama.

Bisa naho hari inama yahabereye, hari abantu bambaye imyenda ya gisirikari, hari abagabo bambaye kositimu, ku meza aho bicaye hagiye hateretse icupa ry'amazi, hari n'impapuro, hari n'umusaza uri gusoma igitabo.

Birasa nkaho habereye inama abagore batatu bicaye imbere, imbere yaba hateretse icupa ry'amazi bafite ameza imbere yabo hateretseho amatelefoni hari n'abandi bantu benshi inyuma yabo.

Birasa naho hari mu nama hari umugabo wicaye hepfo wambaye ikositimu, hari n'abandi babiri bicaye ku ruhande rumwe. Imbere yabo hateretse mashini zifunguye birasa nkaho hari ibyo bandikaga, ku meza hari agakapu k'umweru kahateretse hepfo ku ruhande hari na terefone.

Ahabereye inama hari abantu benshi bicaye muri etenti y'umweru ku ruhande hari n'iyindi tente itakishije irangi ry'icyatsi, umuhondo n'ubururu, hari umuntu wambaye umupira w'umukara afite mikoro birasa naho hari icyo ari kuvuga.

Biragaragara nk'aho ari amahugurwa yahabereye, abantu benshi bambaye imipira y'umweru, imbere yabo ku meza hagiye hateretseho amacupa y'amazi. Imbere hari abagabo babiri bahicaye n'umugore umwe, umugore afite mikoro mu ntoki birasa nk'aho aribo bayoboye ayo mahugurwa.

Biragaragara nkaho ari mu nama, umugore wambaye ishati y'umweru afite mikoro mu ntoki birasa naho ari kuvuga, afite ikaramu mu kundi kuboko ku meza hateretse mashini, telefone n'akarahure k'icyayi, ku ruhande hari undi mugore wambaye ikanzu y'umukara na baji mu ijosi.

Iyo abayobozi basoje inama bari barimo hari ahantu habugenewe bahurira bakiga ku myanzuro yafashwe ndetse bakanatanga n'umucyo ku bibazo byagiye bigaragazwa ,aho hantu iyo bahageze baraniyakira.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, isaha ku kuboko n'ipantaro y'ikoboyi, kuruhande rwe hari umugore wambaye ipantaro y'ubururu, afite ikaye mu ntoki, inyuma hari abandi bantu bicaye ku dutebe hari imodoka zihaparitse, hari n'inyubako.

Umugabo wambaye ishati y'umukara, imbere ye hatereka icupa ry'amazi. N'undi mugabo umwicaye iruhande, imbere ye hatetse impapuro na telefone. Inyuma hari n'undi ateretse mashini ku meza, ndetse bisa nk'aho bari mu nama.

Birasa naho habere igikorwa cyo kwiyamamaza umukobwa wambaye umupira w'umukara niji yumukara afite mikoro hari icyo ari kuvuga afite ikayi mu ntoki. Hejuru hari abantu bicaye bisa aho ayoboye inama harimo umupolisi n'abandi bantu benshi kumeza aho bicaye hateretse amazi.

Birasa naho habereye inama, hari abantu benshi bicaye, imbere ku meza hagiye hari urupapuro n'ikaramu bandikaho, hateretse icupa ry'amazi imbere hari umusore ufite mikoro birasa naho hari icyo gusobanuza.

Bisa nkaho habereye inama hari abantu benshi bicaye hari umugore wambaye umupira utukura n'abandi basore babiri bamukikije, ku meza aho bicaye hateye hateretse icupa ry'amazi hari n'impapuro bisa nkaho hari ibyo bari kurebamo.

Bisa n'aho habereye inama, hari abantu benshi bicaye, hari umugore wambaye ikoti ry'ubururu n'ipantaro y'umukara, bisa n'aho ariwe uyoboye iyo nama, hari umusore wambaye ishati y'umukara, bisa n'aho hari ikibazo atanze kugirango bamusobanurire.

Hari abantu benshi bicaye bamwe bambaye imipira y'umuhondo abandi bambaye imipira y'ubururu, imbere hari umugabo wambaye ikositimu bisa naho ari we uyoboye ayo mahugurwa, ku rukuta aho bicaye hariho ibyapa by'ubururu.

Bisa naho habereye inama, hari abantu benshi bicaye bakikije ameza, buri muntu iruhande rwe ku meza hagiye hateretse icupa ry'amazi, hari abafite ajenda bari kwandikamo, hari abashyize terefone ku meza, umugabo uri haruguru birasa naho ariwe uyoboye iyo nama.

Umupolisi wicaye, hari n'abandi bantu bicaye ku ruhande, umwe imbere ye hariho mashini, hari umugabo wambaye ishati y'umweru, ashyize amaboko ku meza, imeza y'aho bicaye hateretse amacupa y'amazi.

Birasa n'aho habereye inama, hari abantu benshi bicaye bambaye imipira isa, bahanze amaso imbere birasa n'aho hari ibyo bakurikiye. Imbere ku meza y'aho bicaye, hariho amacupa y'amazi bafite ikayi n'ikaramu bisa n'aho bari kwandika.

Biragaragara nk'aho habereye inama, hari abantu bicaye, buri muntu wese aho yicaye hagiye hateretse icupa ry'amazi, hari n'impapuro bari kwandikaho, hari umugore wambaye baji mu ijosi afite mikoro birasa n'aho hari icyo ari kuvuga.

Birasa n'aho habere inama, imbere hari abagore babiri bahicaye bisa n'aho bayoboye iyo nama, hari abandi bantu bicaye bakikije ameza, buri wese imbere ye hateretse mikoro n'icupa ry'amazi, bahanze amaso imbere bisa n'aho hari icyo bari kumva.

Hari abantu benshi bicaye birasa naho habereye inama. Inyuma hari umugabo ufite mikoro mu ntoki birasa naho hari icyo ari kuvuga. Ku meza ye hateretse mashini. Imbere hari indi mashini iteretse ku meza icometsemo umugozi birasa naho umugabo uyicaye iruhande acometseho telefone.

Birasa naho habereye inama runaka, hari abagore batatu n'abagabo babiri, bigaragara nkaho ari bo bayoboye iyo nama, inyuma y'aho bicaye hari icyapa cyanditseho "RGB Africa Day for Information.

Birasa nkaho habereye inama runaka, hari abantu benshi bicaye, hari umugabo ufite telefone mu ntoki wambaye ikositimu, hari n'abandi bakobwa babiri bisa naho bari kwandika. Ku meza y'aho bicaye hateretse icupa ry'amazi.

Bisa nkaho habereye inama, hari abantu benshi bicaye, ku meza yaaho bicaye ku nko imbere ye hateretse icupa ry'amazi. Hari abafitanije na n'ikaramu, bisa naho hari ibyo bari kwandikamo. Hari na telefone iteretse ku meza.

Birasa nkaho abereye inama cyangwa akaba ari abanyeshuri biga kaminuza bafite ikaramu mu ntoki bari kwandika hari n'impapuro ziteretse ku meza buri muntu imbere hatetse icupa ry'amazi ku ruhande ku meza yatetseho telefone n'agatabo karirimo ibara ry'ubururu.

Birasa n'aho habereye inama hari abagabo benshi bicaye bamwe bagiye bafite udutabo mu ntoki, hagati y'aho bicaye hateretsemo udutebe dutoya duteretseho ikirahure cy'amazi, ku ruhande hari umugabo wambaye ikositimu afite mikoro mu ntoki birasa nkaho hari icyo ari kuvuga.

Biragaragara ko abereye inama hari abaturage benshi bicaye, imbere yaho ngaho hari umugabo ufite mikoro bisa n'aho hari ibyo ari kubabwira, hakurya hari ikige, hari icyapa kirimo ibara ry'umweru n'ubururu, hari na kandagirukarabe.

Bisa n'aho habereye inama y'abaturage. Hari abaturage benshi bicaye, hagati hari umukobwa bisa n'aho ari kubasobanurira, ku ruhande hari umuntu uhicaye afite ikayi n'ikaramu mu ntoki, hari ibiti bibiri, inyuma yabo hari n'inyubako.

Birasa naho habereye inama, hari abantu benshi bicaye baikikije ameza, buri muntu wicaye imbere ye hateretse mikoro, icupa ry'amazi n'igikombe, hari undi mugabo imbere ye hari mashine n'undi mugore.

Birasa naho habereye inama itandukanye abantu benshi bicaye bakikije ameza bafite amatelefoni imbere yabo hari imigozi isa nkaho bari gukoresha ikoranabuhanga haruguru hari umugore wicaye n'umugabo bisa naho ari bo bayoboye iyo nama

Abagabo batatu bicaye birasa n'aho bari mu nama, ku meza bicayeho buri umwe hagiye hari urupapuro rw'umweru imbere ye hari na mikoro, ku ruhande rw'ameza hateretseho icupa ry'amazi bahanze amaso imbere birasa naho hari ibyo bari kumva.

Biragaragara ko habiri inama, hari abantu benshi bicaye bahanze amaso imbere. Birasa naho hari ibyo barikumva. Imbere ya buri muntu agiye hari urupapuro n’ikaramu, birasa ko hari ibyo bari kwandika. Hagiye hateretse n’icupa ry’amazi n’ikirahure.

Biragaragara nk'ahabereye inama hari abantu benshi bakikije ameza, buri muntu imbere ye hagiye hateretse mikoro n'icupa ry'amazi n'icupa rya ji, hepfo hari umuntu wicaye wenyine birasa nkaho ariwe uyoboye iyo nama.

Biragaragara nk'ahabereye inama, hari abantu benshi bicaye bambaye baji mu ijosi ku meza yaho bicaye hari amacupa y'amazi n'ibirahuri, hateretse n'akandi kantu k'umweru bisa naho bari gushyiramo imifuniko, hari na mvirope z'impapuro.

Birasa naho habereye inama hari abantu benshi bicaye, abantu buri tsinda rigiye ryicaye rikikije ameza, kumeza y'aho bicaye hari akantu kahateretse kameze nk'umurasire, hari icupa ry'amazi na sanitayiza.

Bisa nk'aho habereye ibikorwa byo kwamamaza, hari abantu benshi bicaye, imbere ku meza aho bicaye hatezwa icupa ry'amazi, inyuma hari icyapa kinini cyanditseho repubulika y'u Rwanda, umujyi wa Kigal,i akarere ka Kicukiro, umurenge wa Kigarama.

Biragaragara nkaho ari mu nama abagabo bane n'umugore umwe baricaye imbere yabo hagiye hateretse macine ,hateretse igitabo inyuma hari umugabo bisa nkaho ari kuvuga ku meza hagiye hateretse amacupa y'amazi .

Birasa naho ari ku kinyamakuru runaka, hari abantu bicaye, hepfo hari intebe bisaba naho zicayemo abantu, hari umugabo ufite mikoro, bisa naho hari icyo ari kubwira abantu, hari n'abatumirwa bari ku ruhande.

Bisa nkaho ari mu ishuri, hari abantu benshi bicaye imbere yabo hari ameza agiye ariho ibitambaro bitukura, imbere yabo hari umumama bisa naho hari icyo ari kubabwira, ku ruhande rwe hari ameza ateretseho imashini.

Birasa nahoho habereye inama, hari abagabo babiri bambaye ikositimu, birasa naho hari ibyo bari kuganira umwe afite ikaramu mu ntoki na terefone. Hasi hari ajenda birasa naho arikwandika, ku meza y'aho bicaye hari amazi.

Birasa naho habereye inama, hari abantu benshi bicaye imbere muri tente, hari n'abandi bantu bahagaze hakurya ku ruhande, hari ikigega cy'umukara, hari ameza ateretseho amazi yo kunywa, hari n'umugabo wambaye umupira w'umweru ufite mikoro.

Abagore batatu bicaye ku meza imwe birasa nkaho, bari mu nama. Buri muntu imbere yiwe hateretse amacupa abiri y'amazi, umwe afite ikaramu mu ntoki n'ajenda ari kwandikamo. Ku meza yaho bicaye hatetseho isakoshi y'umukara n'agaseke.

Umukobwa wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'ubururu, yambaye n'agapfukamunwa, ku ruhande hari imashini iteretse ku meza, hari undi wambaye ingofero y'icyatsi mu mutwe n'agapira karimo ibara ry'umweru, afite telefone mu ntoki, imbere ye harambuye ikayi, hari n'undi w'inyuma ufite telefone mu ntoki yambaye ishati y'umweru.

Hari abantu benshi bahagaze, hari n'abandi bafite camera bisa n'aho bari gufotora; hari amatara yo ku muhanda, hari inyubako iri hepfo y'umuhanda isize irangi y'umweru, hari ibiti birebire binini biteye haruguru y'izo nyubako.

Birasa naho ari abanyeshuri cyangwa akaba ari abandi banditsi runaka, hari umugabo bisa naho hari icyo ababwira, buri muntuni imbere ye hateretse mashini, hari n'impapuro zitetse ku meza. Ku ruhande hari telefone iri kuri sharigeri, hari n'abandi bantu inyuma.

Abagabo batatu bahagararanye, ku ruhande hari umunara, hari n'undi mugabo wambaye umupira w'ubururu, uhagaze. Hari akazu gasize irangi ry'umuhondo, hari ibiti biri inyuma y'ako kazu, haruguru y'umuhanda naho hari ibiti.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, iruhande rwe hari undi mugabo wambaye umupira urimo uturongo tw'umweru, yambaye n'ingofero y'umukara, imbere yabo hateretse imashini hari nurupapuro kumeza bisa nkaho hari icyo bari kureba mu mumashini.

Abantu batatu bafite kompiyuta birasa n'aho hari ibyo bari kureba, bambaye n'udupfukamunwa hari umusore wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara ari kureba muri kompiyuta y'undi mukobwa, ku ruhande haparitse imodoka y'ubururu hari izindi nyubako nyinshi hari n'izindi modoka ziparitse.

Nta muntu utagira inzozi zo kuba mu nzu nziza kandi yubatse neza iyo nzu iri mu mujyi wa kigali uyishaka ni igihumbi kimwe cy'idolari gusa wishyura buri kwezi maze nawe ukibera ahantu heza hatekanye.

Abantu bari kugenda n'amaguru, hari imodoka iri kugenda mu muhanda n'umumotari, hari inyubako zituye hepfo y'umuhanda, hari amatara yo ku muhanda n'amapoto y'amashanyarazi, hari n'ishyamba riri haruguru y'umuhanda.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda n'amaguru, hari abamotari bari kugenda, hakurya haparitse imodoka nyinshi zitwara abagenzi, hari imodoka nini y'igikamyo iri kugenda, hari taransifo z'amashanyarazi, hari n'ibiti biri hakurya y'umuhanda.

Hari igikuta cy'amatafari ahiye, imbere harimo inzu ya konoshi, isize irange ry'umweru, hari izindi nyubako ku ruhande, hari ibiti birebire binini, hari amapoto y'amashanyarazi, n'insinga.

Umumotari uhetse umugenzi hari imitaka ibiri mu ibara ry'umuhondo ya emutiyene, hari n'icyapa cya emutiyene, hari abantu bari kugenda n'amaguru, hari imodoka y'umweru iri kugenda hari amazu y'ubucuruzi, hari amatara yo ku muhanda hari n'amapoto y'umuriro.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda mu muhanda, hari n'izindi modoka ziri kugenda, hari amatara yo ku muhanda, hari feruje, hari amapoto y'amashanyarazi n'ishyamba riteye hakurya y'umuhanda.

Umumotari uri kugenda mu muhanda, hari imodoka y'umukara, hari n'indi modoka y'umutuku ziri kugenda, hari umumama ufite agafuka ku rutugu, hari icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho y'uruziga, hari n'u umugabo ugihagaze iruhande, hari amatara yo mu muhanda, ku ruhande hari inzu igeretse.

Umutaka uri mu ibara ry'umuhondo wa emutiyene, hari umukobwa uhicaye wambaye ijiri y'umuhondo, hari umukobwa ahahagaze, hari amatara ku muhanda, hari icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho ya kare, hari urujya n'uruza rw'abantu, hari n'igikamyo kinini kirimo ibara ry'umweru.

Umukobwa uhagaze ku muhanda afite agakarito gatukura hari n'umufuka upakiyemo ibintu. Yambaye ikanzu irimo amabara y'umweru ku ruhande hari amapoto y'amashanyarazi hari icyapa cyo mumuhanda kiri mu ishusho y'uruziga hari umuntu uri kugenda n'amaguru hari n'ibiti biteye haruguru y'umuhanda.

Hari kamera zo ku muhanda, hari taransifa z'umuriro n'insinga z'amashanyarazi, hari inzu igeretse iriho ibyapa bigaragara nkaho ari iy'ubucuruzi, ku ruhande hariyo n'ayandi mazu.

Hari umuntu utwaye igare, hari ibiti biteye ku muhanda, hari insinga z'amashanyarazi, hari n'amatara yo ku muhanda. Ku ruhande hari umutaka uri mu ibara ry'umuhondo wa MTN, hari imodoka y'ubururu iparitse n'iyindi y'umukara iri kugenda mu muhanda.

Hari imodoka y'igikamyo iri hepfo y'umuhanda bisa naho itwara amajuyisi y'abana, hari amatara yo ku muhanda hari umusore uri kugenda n'amaguru, hari n'ibiti birebire biteye hepfo y'umuhanda, hari n'inyubako igeretse.

Umutaka uri mu ibara ry'umuhondo wa MTN, hari imodoka iri mu ibara ry'umweru itwara abagenzi iparitse ku ruhande, hari igipangu gifite utugiriyaje n'amatara, hejuru hari ibiti birebire, hari n'amapoto y'amashanyarazi n'insinga.

Hari amafoto y'amashanyarazi, hari amazu yubatse asize umurangi atandukanye bigaragara nk'aho ari ay'ubucuruzi, hari imodoka y'umweru iparitse ku ruhande, hari icyapa kiri hejuru y'inzu, hari n'imyenda yo gucuruzwa.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ka Emutiyeni kari ahantu ku muhanda umuntu uri kugenda n'amaguru, amapoto y'amashanyarazi hari inzu ifite amabati atukura inyuma yaho hateye ibiti birebire.

Hari urujya n'uruza rw'imodoka zitandukanye, hari umupolisi uri kuvugira kuri telefoni, hari imitaka ibiri iri mu ibara ry'umuhondo ya emutiyeni, hari ibiti birebire, binini, biteye ku ruhande, hari inyubako igeretse, hari n'indi nyubako ku ruhande.

Imodoka iri mu bwoko bwa ritiko itwaye abagenzi iri kugenda mu muhanda ku ruhande hari abantu bari ku magare baparitse hakurya haparitse n'irindi gare ryonyine hari amapoto y'amashanyarazi hari amatara yo ku muhanda hari na tarasifo y'umuriro.

Abantu bari kugenda n'amaguru, hari icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho y'uruziga, hateye ibiti ku muhanda, hari igikuta cy'amatafari ahiye, hari amatara ku muhanda n'insinga z'amashanyarazi.

Aho bategerereza imodoka ku muhanda hari umugabo uhicaye wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara afite akanvilope mu ntoki, hari umugore uhanyuze wambaye ipantaro y'ubururu n'ishati y'ubururu, hepfo hari urujya n'uruza rw'abantu hari imodoka y'umukara iparitse n'indi y'umweru, ku ruhande hari akazu k'umuhondo ku ruhande hari akazu ka MTN.

Hari urujya n'uruza rw'abantu mu muhanda hari amapoto y'amashanyarazi hateye igiti kirekire hari aho abantu bategererereza imodoka harimo ibara ry'umuhondo hari amazu ageretse hakurya hejuru hari ibigega bibiri hariho n'icyapa kiriho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Birasa n'aho ari kwa muganga, hari urujya n'uruza rw'abantu, hari intebe abantu bicaraho bategereje guhura na muganga, hari umusekirite uri kwakira abantu, hari n'imodoka z'imbangukiragutabara ebyiri, hari n'inzu igeretse.

Urujya n'uruza rw'abantu mu muhanda, hari akazu karimo ibara ry'umuhondo ka MTN hari n'icyapa kinini gihari, iruhande rwayo; hari umunara, hari inzu igeretse ifite amarangi y'umweru, hari n'insinga z'amashanyarazi.

Imodoka y'umweru iri kugenda mu muhanda, hari taransifo y'umuriro, hari umumama uri kugenda n'amaguru, imbere hari imodoka nyinshi zihaparitse. Hari n'icyapa cyo mu muhanda kiri mu bwoko bwa mpandeshatu, biragaragara nk'aho ari ku kigo cy'amashuri.

Hari imodoka eshatu ziparitse ebyiri z'umweru n'iyindi imwe y'umukara, hari umugore wicaye ku muhanda hafi y'inyubako y'amatafari ahiye, hari urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda, hari n'icyapa kiri ku muhanda.

Hari inyubako nini iri mu ry'umweru, hejuru handitseho materinete, hari icyapa kiri mu ishusho ya kare cyo mu muhanda, hari igikuta kiri mu ibara ry'umweru, hari imodoka ziparitse ku ruhande, hari n'umumotari uhagaze afite kasike mu ntoki.

Biragaragara ko ku kigo cy'amashuri, hari abagabo babiri bicaye ku ruhande bambaye ibisaro biti by'ubururu, bisa nk'aho wagirango ngo hari kubaza. Hari n'abandi bayipfutse hejuru no mu mutwe, wagira ngo bari kujugunya imyanda, hari umugabo ubahagaze iruhande. Hakurya hari amashuri, hari n'igihangari kiri aho imbere. Inyuma y'icyo gihangare hari ibiti.

Imodoka enye ziparitse ebyiri ziri mu bwoko bw'imbagukiragutabara. Ku ruhande hari n'indi nzu igeretse hari n'indi nzu ihubatse zifite amabati y'umukara, hari jaride irimo icyapa cy'ubururu, hari n'indabo zihakikije.

Imodoka y'imbangukiragutabara ijyanye abarwayi kwa muganga, irimo ibara ry'umweru iparitse ku ruhande ruguru hari izindi modoka ebyiri z'umukara zihaparitse hari umuntu wambaye taburiya afite urupapuro mu ntoki uri kugenda hari n'igipangu kirimo ibara ry'ubururu.

Hari imodoka ebyiri ziparitse, imbere hariho icyapa cyanditseho isange wani sitopu senta. Hari n'ikindi cyapa cyerekireye kimwe mu ibara ry'umweru, cyanditseho Kacyiru hosipito. Imbere yaho hari ibiti birebire ku ruhande hari n'inyubako.

Birasa naho habereye inama y'abaturage, hari umugabo uri kuvuga imbere, hari abandi bagabo bicaye ku ruhande, umwe afite impapuro mu ntoki abandi bamuteze amatwi. Ku meza y'aho bicaye hateretseho n'izindi mpapuro, inyuma hariyo inyubako.

Birasa n'aho ari umunyabyaha yambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru imbere, abapolisi babiri bamufashe umwe iburyo undi ibumoso, inyuma hari abagabo babiri bambaye kositimu bisa naho bamuherekeje, hakurya hari n'indi nyubako.

Umupolisi ahagaze mu muhanda, hari umumotari uciyeho, hakurya hari imodoka zihaparitse, hari n'urujya n'uruza rw'abantu, hari taransifo y'amashanyarazi, hari inzu zigaragara nkaho ari iz'ubucuruzi, hari n'ibiti biteye hakurya y'umuhanda.

Hari urujya n'uruza rw'imodoka ziri kugenda mu muhanda, hari umumotari uhetse umugenzi, hari n'umupolisi uhahagaze, hakurya, hari igikuta kinini cy'amabuye, hari n'amatara yo ku muhanda.

Umu polisi uhagaze mu muhanda, afite akuma mu ntoki, afite n'irangamuntu. Hari imodoka y'umukara imuparitse iruhande, inyuma hariyo n'izindi modoka nyinshi n'ama moto, hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu, hari umugore uri gutambuka afite ishakoshi ku rutugu, umugabo wambaye umupira utukura afite amverope mu ntoki, hari n'umupolisi ahahagaze, hakurya hari umunara, hari amatara yo mu muhanda, ruguru biragaragara nkaho hari ishyamba, hari n'igikuta cy'amatafari ahiye.

Abapolisi babiri bahagaze imbere yabo hari moto iri mu ibara ry'umweru hari n'izindi modoka zihaparike z'umweru hari icyapa kiri mu ibara ry'umutuku hari umutaka uri mu ibara ry'umuhondo wa emutiyene hari n'akazu kageratse ku ruhande bigaragara nk'aho ari ak'ubucuruzi.

Abapolisi babiri bahagaze, imbere hari inzu igereretse iriho ibyapa bisa nkaho ari iy'ubucuruzi, hakurya hari iyindi nzu igeretse, hari moto y'umweru iparitse n'indi modoka y'umweru, hari urujya n'uruza rw'abantu, hari n'umokobwa wambaye agapira gatukura n'ipantaro y'umukara.

Birasa naho habereye inama, abantu benshi bagiye bicaye, hari abambaye udupfukamunwa bahanze amaso imbere, birasa naho hari uwo bakurikiye, imbere ya buri muntu hari mikoro, hateretse n'icupa ry'amazi, hateretse n'igitabo kinini.

Biragaragara ko bari mu gikorwa cyo kwamamaza, abantu benshi bambaye imipira y'umweru iriho ifoto y'umukandida wabo, hari umwe ufite ifoto nini hejuru y'umukandida, bafite n'amadarapo, hakurya hari amatente yubatse.

Umugabo ufite icumu mu ntoki n'ingabo, ku ruhande hari umukobwa wambaye ishati y'umweru naamarinete, mu mutwe we hari urugori. Hepfo hari abantu benshi bahagaze, birasa n'aho bitabiriye igikorwa cyabereye aho ngaho.

Abamotari batatu bagenda mu muhanda umwe ahetse umugenzi, hari amatararu ku muhanda, hepfo hari icyapa kinini cyanditseho tora KAGAME. Hariho ifoto ya KAGAME hari umwanara gutambuka, hari n'inzu igeretse nini.

Ahabereye ibikorwa byo kwiyamamaza hari abagabo babiri bambaye amashati y'umweru ,umwe afite mikoro mu ntoki hari n'umugore wicaye ku ruhande, imbere ye hateretse icupa ry'amazi hari n'amafoto arimo umukandida.

Bisa n'aho habereye amatora, umukobwa wambaye umupira w'umweru ingofero y'umweru, ipantaro y'umukara, bafite urupapuro mu ntoki hari n'undi mugabo umwicaye iruhande nawe wambaye nka we, n'undi uhagaze aho bicaye, hari amabara hatatse icyatsi umuhondo n'ubururu.

Abantu babiri batwaye igare, ku ruhande hari undi musaza uri gusunika igare, ari kugenda n'amaguru n'abantu bari kugenda n'amaguru, hari imodoka itwara abagenzi iri mu ibara ry'umutuku, hari ibiti birebire binini, hari n'amazu ari hakurya y'umuhanda.

Umumotari wambaye ishati ya karokaro uri kugenda ku ruhande hari abandi bamotari batatu umwe ari kugenda abandi babiri baraparitse hari imodoka eshanu ebyiri z'umweru n'ebyiri z'umutuku n'indi imwe y'umukara hakurya hari ibiti.

Imodoka iri mu ibara ry'umweru iri kugenda mu muhanda, umumotari ahetse umugenzi, umuntu utwaye igare ahetse n'undi muntu inyuma, hakurya y'umuhanda hari ibiti birebire imbere harimo abantu bisa nkaho bari guhinga, hari n'ikusanyirizo bashyiramo imyaka.

Hari moto nini iri mu ibara ry'ubururu ya medi ini Rwanda, hari umuntu ugenda n'amaguru, hari umumota uhetse umugenzi, hari n'umuntu utwaye igare hepfo y'umuhanda hari ibiti birebire binini hari n'inyubako ziri hakurya.

Imodoka ebyiri z'umweru ziparitse, hari abantu bahagaze hakurya, umwe yambaye umupira w'umukara undi yambaye umupira w'umweru n'undi yambaye umupira w'ubururu, hari igiti kirekire kihateye, hari n'igikuta cyamabuye.

Aho abagenzi bategerereza imodoka ku muhanda. Hari imodoka nini zitwara abagenzi ziri mu ibara ry'ubururu, hari umugore wambaye ikanzu y'umukara uhagaze; hari n'undi musore wambaye umupira w'umweru wicaye, n'undi muntu wicaye hirya ku ruhande; umugabo wambaye agapira k'ubururu uri kugenda mu modoka.

Biragaragara nkaho ari muri gare, hari imodoka nini zitwara abagenz ziri mu ibara ry'umweru, hari moto nini ifite ibara ry'ubururu, yanditseho made in Rwanda, hari urujya n'uruza rw'abantu mu muhanda.

Yagaragara nk' aho ari nijoro hari urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda hari imodoka nyinshi zitwara abagenzi ziparitse, hari amatara ku muhanda ari kwaka, hakurya harinzegeretse nini, hari n'izindi nzu ziri ku ruhande.

Moto iri mu ibara ry'ubururu iri kugenda mu muhanda, hari icyapa cyo mu muhanda kiririmo ishusho ya kare, hari insinga z'amashanyarazi, hari abantu bari kugenda n'amaguru, imbere hari abamotari bari kugenda, hari ibiti biri hepfo y'umuhanda.

Moto ebyiri nini zirimo ibara ry'ubururu zanditseho made ini rwanda, hari mutoya hari abantu bari kugenda mu muhanda hari imodoka nini itwara abagenzi kugenda haruguru hari inyubako hari n'amatara yo ku muhanda.

Imodoka ebyiri ziparitse ziri mu ibara ry'umweru, hari umugabo uri kugenda n'amaguru, imbere hari indabo z'imikindo, hari n'amazu aho bigaragara nkaho ari ay'ubucuruzi, hari inzu iriho icyapa cyanditseho Samusanga, hari n'icyapa cy'ubururu n'ikindi cy'umuhondo.

Umugabo uri gusunika igare azamuka, hari abamama babiri bari kugenda n'amaguru, hari umumotari kugenda, hari imodoka nini y'igikamyo iri kugenda, hari amapoto y'amashanyarazi hateye n'ibyatsi byinshi hari n'igiti kinini.

Abamotari batatu bagenda mu muhanda, hari abantu batwaye igare, hari urujya n'uruza rw'abantu mu muhanda, hari inzu igeretse iriho ibyapa bigaragara nk'aho ari ay'ubucuruzi hari n'imodoka y'umukara iri kugenda.

Abantu batatu batwaye amagare, imbere hari imodoka nini y'igikamyo, hari na moto nini, hari ibiti biteye hepfo y'umuhanda, hari amatara yo ku muhanda, hari n'urujya n'uruza rw'abantu hakurya y'umuhanda.

Imodoka igenda mu muhanda, iri mu bwoko bw'igikamyo, hari umuntu utwaye igare, hari n'undi ugenda n'amaguru, haruguru y'umuhanda hari imodoka ebyiri ziparitse z'umweru, hari n'inyubako nyinshi zitandukanye, hari n'amapoto y'amashanyarazi.

Hari urujya n'uruza rw'abantu mu muhanda, hari abamotari batatu bari kugenda mu muhanda, hari imodoka y'umweru iparitse kuruhande, hari amatara yo ku muhanda, hari imodoka n'izindi ziri kugenda, hari n'indi nzu igeretse iri hakurya.

Ikimoto kinini kimweya cy'umweru kiri kugenda mu muhanda, ku ruhande hari indi modoka nini ihetse amamatera. Hejuru hatwikirijeho shitingi, hari ibiti birebire ku muhanda n'imbere harimo umurima, hari n'ikusanyirizo ry'imyaka.

Imodoka y'umweru nini iri kugenda mu muhanda, inyuma harimo umuntu, hari umu motari uhetse umugenzi, hari umuntu uri kugenda mu muhanda, hakurya y'umuhanda hateye ibiti birebire binini.

Imodoka y'umweru iparitse, hari abagabo babiri bahahagaze, ku ruhande hari indi modoka nayo ihaparitse, hari umutaka uri mu ibara ry'ubururu, imbere hari inyubako igeretse iriho ibyapa bigaragara nkaho ikorerwamo ubucuruzi.

Imodoka ebyiri ziri kugenda, hari moto nini iri mu ibara ry'ubururu, hari umumotari uhetse akabogisi k'umuhondo inyuma, hari n'umuyonzi uhetse umuntu, hari umugore uhagaze ku ruhande afite indobo irimo ibigori, hakurya y'umuhanda hari ibiti birebire.

Imodoka y'igikamyo itukura irikugenda mu muhanda inyuma hari ikimoto kinini cyanditseho made in Rwanda hari imodoka ziparitse ku ruhande hari inzu izegeretse iriho ibyapa bisa naho ari iy'ubucuruzi hari n'umuntu uri kugenda n' amaguru.

Imodoka nini itukura iri kugenda mu muhanda, ku ruhande hari akandi kamodoka k'umweru kari kugenda, hari ikimoto kinini nacyo kiri kugenda, imbere harimo shitingi, hari amatara ku muhanda, hari ibiti birebire, hari n'amapoto y'amashanyarazi.

Imodoka iri mu ibara ry'umweru itwara abagenzi, hari abamotari babiri bari kugenda umwe ahetse umugenzi, hari ibiti biri hepfo y'umuhanda birebire birasa nkaho imbere harimo umurima, hakurya hariyo n'izindi nyubako.

Imodoka irimo ibara ry'umweru hejuru yitwikije shitingi ku ruhande hari abagabo bahagaze, hari umufuka uri hasi, hari umuntu utwaye igare imbere hari amatara yo ku muhanda hari n'urujya n'uruza rw'abantu.

Umumotari kugenda mu muhanda hari ibiti biteye hepfo mu muhanda hari inzu igeretse ku ruhande, hari amapoto y'amashanyarazi hari utwapa tubiri ku muhanda, hari n'igikuta kiri mu ibara ry'umweru.

Imodoka itwara abagenzi iri mu ibara ry'ubururu iri kugeza mu muhanda ha umugabo uri kugenda kuruhande hari amapoto y'amashanyarazi hari umuhanda uri hejuru y'undi hari ibiti biteye hakurya y'umuhanda.

Imodoka ziri mu ibara ry'umweru zitwara abagenzi, hari umugabo wambaye ishati ya karokaro n’ipantaro y’umukara ahagaze mu idirishya, hari n'abandi bagenda n'amaguru bisa naho baje gutega.

Igikamyo kirimo ibara ry'umweru n'umutuku kiri kugenda, ku ruhande hari n'ikindi cy'umukara. Hari umumotari uri kugenda, hari ibiti birebire biteye hepfo y'umuhanda hariyo n'umurima.

Imodoka ifite ibara ry'umweru iri kugenda mu muhanda, hari abamotari nabo bari kugenda mu muhanda, hari urujya n'uruza rw'abantu benshi ku ruhande hari inzu igeretse ifite inzugi z'icyatsi, hakurya no hari indi nzu ya kadasiteri nini.

Moto nini iri mu ibara ry'ubururu yanditseho medi ini Rwanda, hari umugabo wambaye ishati y'umweru uri kugenda n'amaguru. Ku ruhande hari abagabo babiri bahahagaze, hari imodoka iri mu ibara ry'umweru itwara abagenzi.

Imodoka iri mu ibara ry'umweru itwara abagenzi iri kugenda mu muhanda hari abamotari babiri bari kugenda hari n'umuntu wikoreye umufuka w'umweru ku ruhande hakurya hari n'indi modoka y'umweru ihaparitse n'indi y'igikontineri hari ibiti birebire hepfo y'umuhanda hari n'amatara ku muhanda.

Umumotari uri kugenda mu muhanda, hari amapoto yo ku muhanda, ku ruhande hari igifata cy'umweru hari n'agapangu k'umukara, hari inzu igeretse ku ruhande y'umweru, hateye n'ibiti birebire binini.

Igikamyo kiri mu ibara ry'umweru inyuma harimo umuntu uhagaze hari n'undi mugabo uri kugenda n'amaguru, hari imodoka itwara abagenzi itambutse, hakurya y'umuhanda hari ibiti birebire, haparitsemo n'izindi modoka nyinshi.

Imodoka iri mu bwoko bwa Toyota, iri kugenda mu muhanda y'umweru. Ku ruhande hari indi modoka ibara ry'ubururu, imbere harimo amakesi. Hepfo y'umuhanda hari ibiti binini birebire.

Imodoka iri mu ibara ry'umweru irikugenda mu muhanda hari abamotari babiri bahetse abagenzi, hari igikamyo inyuma kirimo umuntu, hari n'ikindi gitukura kiri kugenda hari taransifo ebyiri z'umuriro, hari n'amatara yo ku muhanda.

Imodoka irimo ibara ry'umweru ya Tagisi, iri kugendera mu muhanda. Ku ruhande hari igikamyo cy'umweru kiri kugenda, inyuma harimo ibintu. Hari umugabo uri kugenda n'amaguru ku ruhande, hepfo y'umuhanda hari ibiti birebire binini, hari n'amazu yubatse ku ruhande.

Imodoka ebyiri nini zirimo mu iba ry'umweru zo kugenda mu muhanda hari abantu babiri bari kugenda n'amaguru mu muhanda hari umuntu utwaye igare ririho ibintu byinshi bisa nkaho avuye guhaha, hakurya y'umuhanda hateye ibiti birebire binini.

Abagabo babiri bari kugenda mu muhanda n'amaguru, ku ruhande hari moto iri mu ibara ry'ubururu iri kugenda, hejuru hatwikirije shitingi, hari amatara ku muhanda, hari ibiti birebire biri hakurya y'umuhanda hari n'umurima.

Moto imwe iparitse, hari mu umumotari kugenda mu muhanda ahetse umugenzi, hari umugabo wicaye ku ruhande, hari urujya n'uruza rw'imodoka mu muhanda, hari n'indi modoka y'igikamyo iri hepfo, hepfo y'umuhanda hari inyubako, hari n'amatara yo ku muhanda.

Umunyegari uparitse ku muhanda, hari umugabo umuhagaze iruhande, hakurya hari imodoka ziparitse, hari amatara yo ku muhanda, hari moto nini ya medi ini Rwanda, hari n'ibiti biteye hakurya y'umuhanda, hari urujya n'uruza rw'abantu.

Abantu babiri batwaye amagare hari urujya n'uruza rw'imodoka n'amagare, hari abantu bari kugenda n'amaguru, hari imodoka iparitse ku ruhande y'ikamyo, hari amatara ku muhanda, hari ibiti biteye hakurya y'umuhanda, hari n'amapoto y'amashanyarazi.

Umumotari uri kugenda mu muhanda ahetse umugenzi, hari amatara yo ku muhanda, hari ibiti birebire biteye hepfo y'umuhanda, hari igipangu kiri mu ibara ry'umutuku n'ubururu, hari imodoka y'umukara iri kuzamuka, hari indabo ziteye ku muhanda.

Moto nini yo mu ibara ry'ubururu iri kugenda mu muhanda. Ku ruhande hari umugabo uri kugenda n'amaguru. hari amatara yo mu muhanda. Hakurya y'umuhanda hateye ibiti birebi. Inyuma hari nundi mugabo uri kugenda n'amaguru.

Imodoka iri mu ibara ry'umweru, inyuma hariho igikontineri cy'icyatsi, hari umuntu utwaye igare, hari umugabo wambaye ishati y'umweru, uri kugenda n'amaguru, hepfo y'umuhanda hateye ibiti birebire binini, inyuma hariyo na parikingi.

Imodokagikamyo y'ubururu iri kugenda mumuhanda ku ruhande hari izindi modoka ziri kugenda n'umumotari hakurya y'umuhanda, hateye ibiti birebire binini harimo amatara kumuhanda hari abantu bari kugenda n'amaguru.

Imodoka iri mu ibara ry'ubururu iri kugenda mu muhanda itwara abagenzi, ku ruhande hari inzu igeretse iri mu ibara ry'umweru, hari igiti kirekire hari urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda n'amaguru, mu muhanda hakurya hari n'indi nzu igeretse.

Imodoka nini itwara abagenzi be mu ibara ry'ubururu hari umumotari uri kugenda ku ruhande hari icyapa cyo mu muhanda kiririmo ishusho y'uruziga, hari igiti kirekire ku ruhande, hari urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda n'amaguru.

Imodoka y'ikamyo iri mu ibara ritukura iri kugenda mu muhanda, inyuma hari indi modoka itwara abagenzi y'ibara ry'umuhondo n'indi modoka iparitse ku ruhande, hari inzu igeretse iri ku ruhande rw'umuhanda, hari n'igiti kirekire.

Umuntu utwaye igare ahetse umugenzi, hari n'undi kuruhande utwaye igare, hari umuntu uri kugenda n'amaguru, hari igikamyo kinrimo ibara ritukura gitwaye umucanga hari amatara yo kumuhanda, hari n'ibiti birebire biri hakurya y'umuhanda.

Imodoka y'umweru iri kugenda mu muhanda inyuma harimo umuntu, kuruhande hari umumotari uhetse umugenzi hari n'undi mumotari nawe urikuza hari imodoka yumukara iri kugenda hari n'abandi bari kugenda n'amaguru hakurya y'umuhanda hari ibiti birebire binini.

Imodoka nini itwara abagenzi iri kugenda, hari umuntu utwaye igare, inyuma hariyo n'izindi modoka. Hari inyubako iri ku ruhande iriho icyapa bisa n'aho ari iy'ubucuruzi, hari amatara yo ku muhanda, hari n'ibiti biteye hakurya y'umuhanda.

Umumotari uri kugenda kuri moto, afite kasike itukura mu ntoki. Hakurya hari igikuta kiri mu ibara ry'umweru, hari n'amatara yo ku muhanda, hari amapoto y'amashanyarazi, hari ibiti biri imbere mu gipangu, hari n'abandi bamotari inyuma bari kugenda.

Abantu babiri basunika ingorofani umwe ari imbere undi ari inyuma, mo imbere harimo imifuka mu ma ngorofani, hari taransifo y'amashanyarazi, hari ibiti biteye hakurya, hari amatara yo ku muhanda, hari n'inyubako bigaragara nk'aho ari iz'ubucuruzi.

Imodoka y'ikamyo iri mu ibara ry'umweru ihetse indi modoka y'umweru iri mu bwoko bwa Toyota, hari indi modoka iri kugenda mu muhanda iri mu ibara ry'ubururu, hari ibiti biteye hepfo y'umuhanda, hari n'inyubako ziri hakurya.

Imodoka ziri kugenda, umumotari atwaye umugenzi, hagati hateye, imikindo hari amatara yo ku muhanda, hari inyubako ziri hakurya y'umuhanda, hari n'ibiti birebire binini.

Imodoka iri mu ibara ry'umweru itwara abagenzi, hari abamotari babiri bari kugenda, amatara yo ku muhanda, hakurya hari ibiti birebire binini, inyuma y'ibyo biti hariyo umurima.

Umumotari kugenda mu muhanda, hari insinga z'amashanyarazi n'amapoto, hari amatara yo ku muhanda, hari igikuta kirimo ibara ry'umweru, imbere y'icyo gikuta hariyo ibiti. Hari inzu igeretse iri mu ibara ry'umweru.

Hari urujya n'uruza rw'abantu bagenda n'amaguru, hari abantu bicaye ku dutebe two ku muhanda, hari imikindo, hari aho bacururiza imyenda, hari inzu zigeretse, hari n'ibiti birebire biri hakurya y'umuhanda, hari n'amatara yo ku muhanda.

Hari urujya n'uruza rw'abantu bagenda n'amaguru, hari abantu bicaye ku ruhande, hari inyubako igeretse kuhande, hateye n'ibiti, hari n'amatara yo kumuhanda, ku rundi ruhande hari inyubako y'amatafari ahiye igeretse.

Hari icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho ya kare, ku ruhande hari ikindi cyapa kiri mu cyatsi, hari ibiti birebire biri hepfo y'umuhanda, hari inyubako ziri hakurya y'umuhanda, hari n'imodoka iri kugenda mu muhanda. Hari amatara yo ku muhanda.

Icyapa cyo mu muhanda kiririmo ishusho ya kare hari imodoka y'umweru iri kugenda, hari n'izindi ziri imbere ziri kuza, hari umugabo uri kugenda n'amaguru, hari ibiti birebire binini hari n'akandi kapa k'ubururu kari kuru ruhande.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho ya kare cyereka abanyamaguru aho bakwiye kwambukira; amapoto y'amashanyarazi, moto ziri kugenda mu muhanda, inyubako ziri hepfo y'umuhanda n'ibiti birebirebire biri hakurya y'umuhanda.

Hari inkingi y'amatafari ahiye, hari umuntu uhahagaze ufite umutaka, hari n'igipangu cy'utugiriyaje gisize irangi ry'ubururu. Hari amamodoka menshi aparitse ku ruhande, hakurya hari ishyamba rinini.

Imodoka eshatu ziparitse, ebyiri z'umukara n'indi imwe y'umweru hari amazu y'ubucuruzi acuruza imyenda, acuruza n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, hakurya hari inzu igereretse isize irange ry'umweru.

Imodoka ebyiri ziparitse imwe y'umweru n'indi y'ubukara, hari umuntu uri kugenda n'amaguru, abamotari bari kugenda, hakurya hari izindi modoka ziri kugenda, hari ibiti biteye hepfo y'umuhanda, hari n'inyubako.

Umukobwa uri kugenda mu muhanda ari kuvugira kuri terefone afite n'akajarekani k'umweru mu ntoki, ku ruhande w'umuhanda hari icyapa cy'umweru, hari amapoto y'amashanyarazi, hateye umukindo mu rugo ruhari, hari inzu nini ya kadasiteri, hari n'ibiti biri hakurya y'umuhanda.

Imodoka eshanu ziparitse, hari ebyiri z'umweru, n'izindi ebyiri z'umukara, n'indi imwe itukura. Hari inzu ebyiri zigeretse, ziri mu ibara ry'umweru. Ku ruhande hari indi nzu igeretse, ikiri kubakwa, itaruzura.

Imodoka iririmo ibara ry'umukara iri kugenda ku ruhande hari icyapa gitukura cya eyateri mani, hari inzu igeretse hari n'igikuta cy'amatafari ahiye, harimo amapoto y'amashanyarazi ku ruhande yateye n'igiti kirekire.

Umugabo uri kugenda mu muhanda n'amaguru, inyuma hari imodoka y'umukara iri kuza, hari n'undi mugabo uhagaze ku ruhande, hari amapoto y'amashanyarazi, hari inyubako nyinshi ziri haruguru zifite amabati atukura hari n'igipangu cy'ubururu.

Umumotari ugenda mu muhanda, ku ruhande hari abakobwa babiri bahagararanye, umwe afite isuka mu ntoki, imbere hari abantu bari kugenda n'amaguru, hari amapoto y'amashanyarazi, hari n'amazu y'ubucuruzi.

Abamotari batatu bagenda mu muhanda, haruguru y'umuhanda hari inyubako igeretse hariho n'icyapa, hari imodoka zihaparitse, hari abantu bagenda n'amaguru, hari n'izindi nyubako ku ruhande. Biragaragara nk'aho ari agahoteli gato.

Imodoka eshatu ziparitse, ebyiri ziri mu ibara ry'umweru, n'indi imwe iri mu ibara ry'umukara. Hari umumotari uhetse umugenzi uri kugenda mu muhanda, hari abagabo bari kugenda n'amaguru, hari inzu zigeretse ebyiri, imwe iriho ibyapa bigaragara nk'aho ikorerwamo ubucuruzi.

Umugabo wambaye hejuru y'umuhondo hari umutaka w'icyatsi hari indi mitaka myinshi y'umutuku hari urujya n'uruza rw'abantu hari moti iparitse ku muhanda hari amazu y'ubucuruzi hari n'amapoto y'amashanyarazi.

Umumotari uparitse, hari icyapa cyo mu muhanda cyanditseho KK59, hari ibiti biteye ku murongo, hari imodoka iri mu ibara ry'umukara, ku ruhande hari inyubako ifite amabati atukura, haruguru hariyo n'iyindi nyubako.

Umutaka uri mu ibara ry'umuhodo rya emutiyene hari abantu bari kugenda n'amaguru hari imodoka ziri kugenda mu muhanda hari amatara yo ku muhanda hari n'amapoto y'amashanyarazi hari inyubako ziri hepfo y'umuhanda.

Hari imikindo yo ku muhanda, hari icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho y'uruziga, hari amatara yo ku muhanda, n'ikindi cyapa kiri mu ibara ry'umuhondo. Hari urujya n'uruza rw'imodoka ziri kugenda, hari n'inzu igeretse ku ruhande. Hari ibiti birebire bikikije iyo nzu.

Abamotari babiri umwe ahetse umugenzi, undi uparitse ku ruhande, hari abantu bari kugenda n'amaguru, hari ibyapa bibiri biri mu ibara ry'umweru byanditseho RPC, hari ibiti birebire binini, ku ruhande hari imodoka y'umweru iriparitse.

Imodoka y'umweru iri kugenda mu muhanda, inyuma hari izindi modoka ziri kugenda, hepfo umutako uri mu ibara ry'umuhondo wa MTN, hari amazu y'ubucuruzi, hari ibiti biri hepfo y'umuhanda, hari amapoto y'amashanyarazi, hari n'inzu igeretse.

Inzu igeretse nini hejuru hateretseho igiseke hari imodoka y'umukara iri kugenda mu muhanda hagati mu muhanda hateye umukindo kuruhande hari igiti kirekire hepfo yi nzu hateyeyo nibindi biti byinshi.

Umumotari uhahagaze ku ruhande hari n'izindi modoka ebyiri ziparitse, imwe y'umweru n'indi y'umukara, hari inzu igeretse iriho ibyapa bigaragara nk'aho ari iy'ubucuruzi, hari insinga z'amashanyarazi, hari n'ibiti.

Icyapa cyo ku muhanda kiri mu ishusho y'uruziga, hari imodoka zigenda, hari n'izindi ziparitse ku ruhande, hari umutaka uri mu ibara ry'umuhondo wa MTN, hari inzu igeretse, hari ibiti biri hakurya n'izindi nyubako, hari n'insinga z'amashanyarazi.

Imodoka yo mu ibara ry'ubururu iri kugenda mu muhanda, hari abamotari bari kugenda, hari n'abantu bari kugenda n'amaguru. Hari amatara yo ku muhanda, hari imikindo iteye hagati mu muhanda, hari n'ibiti biteye hepfo y'umuhanda...

Umuhanda muremure munini hari umuntu uri kugenda n'amaguru, hari na moto iri kugenda, hari amatara yo ku muhanda, hari indabo ziteye hakurya y'umuhanda, hari ibiti birebire binini, hari n'inzu y'umweru igeretse iri hakurya y'umuhanda.

Hagaraga ko hari amasaha y'umugoroba, hari abamotari bahagaze ku ruhande, hari n'abanyonzi. Hari amatara yo ku muhanda, hari icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho y'uruziga, ku ruhande rwacyo hateye umukindo. Hakuryara hari urujya n'uruza rw'abantu.

Moto ziri kugenda mu muhanda n'abamotari, ku ruhande hari abantu bahagaze, hari icyapa cy'umweru gihagaze hepfo umuhanda, hari amapoto y'amashanyarazi, hari amatara yo ku muhanda, hari n'ibiti biteye hepfo y'umuhanda, hakurya y'inyubako.

Imodoka ziri kugenda hari n'umu motari ahetse umugenzi, hari icyapa cyo mu muhanda cya feruje kirimo ibara ry'icyatsi, hari amapoto y'amashanyarazi, hari inzu igeretse ku ruhande, hari n'ibiti biri hepfo y'umuhanda.

Biragaragara ko ari mu masaha ya nimugoroba, hari abantu bagenda n'amaguru, harimo zigenda zicanye amatara na moto, hari icyapa cyo ku muhanda kiri mu ishusho y'uruziga, hari imikindo, hari imodoka y'ikamyo, hari n'amatara yo ku muhanda.

Imodoka eshatu z'umukara ziri kugenda mu muhanda hari abamotari babiri bahetse abagenzi, hari izindi modoka ziri haruguru, hari igenda ku muhanda hari amatara ku muhanda, hari n'inzi igeretse haruguru y'umuhanda.

Umumotari uri kugenda mu muhanda ahetse umugenzi, hagati mu muhanda hateyemo imikindo, hateye indabo hakurya y'umuhanda, hari amatara ku muhanda, hari ishyamba haruguru hari inzu igeretse iri mu ibara ry'umweru ihari.

Moto eshatu ziri kugenda mu muhanda zihetse abagenzi basa naho ziri muri feruge, hari imodoka zihagaze, hari abantu bari kugenda n'amaguru hari ibiti biteye ku muhanda n''amatara yo ku muhanda.

Imodoka ebyiri ziri kugenda mu muhanda, imwe y'umukara n'indi imwe y'umweru. Hari amatara yo kumuhanda, hari abantu bari kugenda babiri, hakurya hateye ibiti birebire, hari inyubako ziri haruguru y'umuhanda.

Hari imodoka y'umukara yo kujyanwa muhanda hari abamotari benshi bahetse abagenzih bahuye n'abantu bari kugenda n'amaguru. Hari amatara yo ku muhanda hari icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho y'uruziga hari n'ibiti bikikije umuhanda.

Imodoka ziri mu ibara ry'umweru ziri kugenda mu muhanda hari ibyapa bitatu by'umweru, haruguru y'umuhanda hari ibiti, hepfo y'umuhanda hari abana bahicaye, hari inyubako, hari n'amatara yo ku muhanda.

Umumotari uri kugenda mu muhanda, hariho umuntu utwaye igare, inyuma hari ikimoto kinini kirimo ibara ry'ubururu, hari amatara yo ku muhanda hepfo y'umuhanda hari ibiti birebire binini hari n'abantu bari kugenda n'amaguru.

Umumotari uri kugenda mu muhanda, hari umuntu uri kwambuka n'amaguru, hari amatara yo ku muhanda, hari n'ibyapa biri ku muhanda, hakurya urujya n'uruza rw'imodoka nyinshi, hepfo y'umuhanda hateye ibiti.

Imodoka y'ikamyo irimo kugenda imbere harimo shitingi hari abamotari batatu bari kujya mu muhanda hari amatara yo muhanda hari n'indabo ziteye hepfo y'umuhanda hejuru birasa nkaho hubatse undi muhanda hari n'ibiti birebire binini.

Imodoka iri mu ibara ry'umweru, moto y'ubururu nini iri kugenda mu muhanda n'indi modoka iri kugenda, hari icyapa abagenzi bategerezaho imodoka, hari umugabo wambaye umupira w'icyatsi afite agafuka ku rutugu, hakurya y'imihanda hateye ibiti birebire.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo, utwaye igare, hari abandi bantu bari kugenda n'amaguru, hari igare riparitse kuruhande, hari amapoto y'amashanyarazi, hari amatara yo kumuhanda, hari icyapa cyo mumuhanda kiri mu ishusho ya kare, hari n'imodoka ziri kugenda mu muhanda.

Umumotari uri kugenda mu muhanda, inyuma ye hari ibikamyo bibiri, biri kugenda hari taransifo y'amashanyarazi, hari insinga z'amashanyarazi n'amatara yo ku muhanda. Ku ruhande hari ibiti birebire, hari icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho y'uruziga.

Umumotari uparitse moto, hari umuntu utwaye igare ahetse umugenzi, hari imodoka y'umweru iri kugenda mu muhanda, hari n'izindi moto ebyiri ziri imbere yaho imodoka ziri kugenda, hari amapoto y'amashanyarazi, hari n'ibiti biteye hepfo y'umuhanda.

Umumotari aparitse ku ruhande ahagaze umuntu usa naho agiye gutega. Hari moto iri mu ibara ry'ubururu, hari umutaka uri mu ibara ry'umutuku, hari umuntu wikoreye imbaho, hari n'urujya n'uruza rw'abantu hari n'amatara yo ku muhanda.